Hari iparoti y'amashanyarazi ishamikiyeho insinga nyinshi zigenda zikora kuri buri nzu y'umunyu, agace karimo inzu iri iruhande ifite insinga zifatiye ku ipoto igaragara hano.

Aha ni kwa muganga hagaragara amazu ifite irangi ry'umutuku, umweru hari abantu barimo kugendagenda umugabo umwe afite akadomara mu ntoki n' icupa undi mudamu ari inyuma wambaye ikanzu y'umutuku n'undi muforomo wambaye imyenda y'ubururu n'umugabo wicaye hasi kuruhande wunamye harimo'imodoka zimbangukiragutabara.

Aha ni ku kigo nderabuzima abarwayi bahari baje kwivuza harimo inda y'imbangukiragutabara ebyiri zaje gutwara abarwayi.

Iri ni itegeko nshinga, rigaragara mu igazeti y'u Rwanda, yanditswe ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani rivuga ibyaha n'ibihano bya ruswa biriri mu cyongereza mu gifaransa no mu kinyarwanda.

Iri ni itegeko nshinga ryanditswe mu igazeti itariki makumyabiri z'ukwacyenda na cumi n'umunani ingingo ya cumi na gatandatu ivuga kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko, biri mu kinyarwanda mu gifaransa n'icyongereza.

Iri ni ishyaka rikorerwa mu Rwanda mu mashyaka dufiteye yo mu Rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu, umweru n'icyatsi bayita piyeside.

Aha haragaragara imodoka ya KBS iri mu mabara y'umukara n'umweru n'ubururu, itwaye abagenzi. Iri mu muhanda igana icyapa cya sp kigaragaza station ya sp hari n'abamotari, umumotari uhetse umugenzi uri kuri moto.

Aha ni mu muhanda ahariho abagenda ku mapikipiki mu modoka ku birenge baba bafite ubwikorezi bw'imizigo mu muhanda.

Iki ni icyapa kiyobora imodoka mu muhanda cyanditseho pi bimenyesheje parkingi harimo n'imodoka iparitse kuruhande igaragara nko mu bwoko bwa bisi iri mu icyapa, icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Aha ni kuri hiritopu hoteri, barerekana amazu yaho inyubako, abagenzi bagenda mu mihanda, amapikipiki n'abanamaguru, n'imodoka muri parikingi ya hiritopu.

Aha ni ku kigo cy'amashuri hari abana bambaye inifome hejuru ni umuhondo, hasi amakabutura ni umukara, hari ibyicungo by'abana barimo gukiniramo, biragaragara ko bari mu gihe cy'akaruhuko kuko bari hanze mu kibuga, haririmo pasiparume n'ibiti barimo gufata akayaga banaruhukamo no kuri ibyo byicungo barimo gukiniramo.

Inyubako ya rdb Rwanda Development Bord iri mu mujyi wa Kigali, ikikijwe n'izindi nyubako ku ruhande ndende utuzu turi munsi yatwo tugufi n'ibiti n'imisozi ku ruhande.